Iduka aho bakorera imodoka hamwe bita muri garaje cyangwa ahantu bogereza imodoka, hari umukanishi umwe, ibibido bisa nk'aho byavuyemo esanse n'imodoka ziri hirya mu gipangu zisa nk'aho zitegerejwe gukorwa, zifite ibibazo.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo :ibyo kurya cyangwa se bimwe bita ibirungo ,byifashishwa mu gutegura amafunguro, ricuruza n'ibikoresho by'amagare bishya ,bimwe bisimbuzwa ibiba byasaje ku magare.

Inzu y'uruganda ishobora kuba ikoreshwa. Ishobora kuba ikorerwamo ibikoresho bigiye bitandukanye, akaba ari uruganda rufite nomero ya makumyabiri na kabiri.

Abamama bari mu isoko bacuruza ibicuruzwa byitwa imbuto. Bacuruza imyembe ziri mu tuntu tuzituma bazitwarika twitwa udupaniye mu kinyarwanda. Abamama bakaba bari mu isoko nyine bari gucuruza bashaka abakiriya, bashaka kwinjiza nk'ibisanzwe.